Iyi shusho iri kugaragaza abantu bishimye bahuriye ahantu mu nama bambaye n'ibibaranga mu ijosi ko rigaragaza arishimye ibiri kuvugirwa muri iyi nama byabashimishije.

Ishusho riri kugaragaza abayobozi bari gukoresha abaturage inama, ubona ko afashe indangururamajwi kugira abamwumva babashe kumwumva neza ibyo avuga babashe kubaza ibibazo banatange ibitekerezo.

Iyi shusho iragaragaza ko ari ubukangurambaga ku bantu bateka bakoresheje ibikoresho bya kijyambere aho bari kubabwira ko bamenya ko hagiye kubaho ibyago bishobora no guteza guturika gukomeye.

Aha bari kwigisha abantu uburyo bakwihindurira ijambo ry'ibanga, muri gahunda yabo ya mudasobwa, ibafasha kwishyura imisoro.

Iri ni itangazo ryasohowe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutwara abantu n'ibintu, aho babuza abantu kwishyura amafaranga mu ntoki, ahubwo bakajya bishyura bakoresheje ikoranabuhanga.

Iyi shusho iragaragaza ahantu heza, hari ikirere cyiza. Hicaye abantu batuje bumva akayaga ndetse bamwe bakoresha ibikoresho byabo by'ikoranabuhanga batuje, kuko aha hantu bari hagaraga nk'ahantu hari umutekano rwose heza.

Iyi ni ishusho iriho ibintu bitandukanye, hariho ibiti, hariho ibyapa, harimo n'inzu, no hakurya haragaragara umugi.

Iyi shusho iragaragaza mu cyumba cyuzuyemo ibikoresho by'ikoranabuhanga bisa nkaho ari ibikoresho bijyanye n'ubuvuzi ndetse hakaba hari n'umugabo wambaye impuzankano y'akazi ke uri kubikoresha.

Ishusho iragaragaza abagororwa bamaze gukatirwa barimo barakora igifungo cyabo uko bigaragaza barishimye bari bazamuye akaboko bose bigaragara ko bafashwe neza mu igororero barimo.

Iyi shusho iri kugaragaza abantu bicaye mu nama, bafite n'ibibaranga bigaragaza n'aho bagiye baturuka, uko bigaragaza bose barakurikiye, bashishikajwe n'ibiri kuvugirwa mu nama bitabiriye.

Iyi shusho iri kugaragaza ikirangantego cy ihuriro ry igihugu nyunguranabitekerezo ry' imitwe ya politiki aho bafite intego ivuga ngo "Demokarasi mu bwumvikane n'ubwisanzure".

Iyi shusho iragaragaza inzira nyabagendwa n'utuyira two ku ruhande, iragaragaza kandi ibinyabiziga byikorera imizigo, biragaragaza hirya abantu bari gupakira imizigo ndetse hakurya mu nzira nyabagendwa harimo amapikipiki n'ibinyamitende biri gutwara abantu.

Ishusho iragaragaza inzira nyabagendwa ngari n'uduce tuyikikije tugizwe n'ibiti byiza by'umukindo ndetse n'ubusitani bwiza burimo indabyo nziza ndetse n'icyapa cyerekana ko hari aho banyura bazenguruka.

Iyi ni ishusho iranga umuhanda wa maganane na mirongo itatu n'icyenda uri muri Kicukiro, iragaragaramo ikinyabiziga kigenda n'umwana uhagaze uri gusoma icyapa.

Iyi shusho iragaragaza inzira nyabagendwa igenewe kugendwamo n'ibinyabiziga ifite ku ruhande akayira k'abanyamaguru ndetse n'inyubako zikikije iyo nzira nyabagendwa n'abantu bari gutambuka.

Ishuri rirerekana inyubako nyinshi nziza kandi ndende zubatse mu buryo bwa kijyambere kandi zubakiye igipangu cyiza cy'ubwirinzi, iruhande rwaho hakaba hari inzira nyabagendwa igendamo ibinyabiziga.

Ishusho iragaragaza igice kimwe cyo mu nzira nyabagendwa cyagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru kandi uko bigaragazwa n'ibimenyetso bimurika ntabwo aka kanya abanyamaguru bemerewe gutambuka kubera ko hari kwaka itara ry'umutuku.